Ni ingirakamaro cyane ko abana b'inshuke bigira mukigo cyiza ndetse icyo kigo kikaba kirangwa n'amabara agiye atandukanye, kuko abana batoya cyane bakunda ibintu bibakurura ndetse bikanabashimisha.

Ibikorwa remezo ni byiza cyane kubyegereza abaturage kuko bifasha buri muturage wese kubona ibyo akeneye bitamugoye nk'amashuri; byorohereza abanyeshuri kujya ku ishuri bitabagoye ndetse na ba bandi bafite intege nke babasha kujyayo batavunitse.

Amashuri y'imyuga, ni byiza ko yigisha abantu bose, nta n'umwe bakuyemo, uko babyifuza ndetse biba byiza, kwigisha abacikishije amashuri, nk'abakobwa babyariye iwabo ndetse n'abandi.

Mu bigo by'amashuri byigisha imyuga ni byiza ko buri munyeshuri yiga kwihangira imirimo kugira ngo bizamuteze imbere ndetse yaguke no mu mutwe.

Ni byiza ko mu bigo by' amashuri, habaho kureka abana bakabaza ibyo batumvise, kuko bibafasha kumenya byinshi bibaza, ndetse bigatuma bagera ku nzozi zabo z' icyo bifuza.

Ni byiza ko ibigo by'amashuri biba bifite aho abanyeshuri bitoreza imirimo y'amaboko, nko gushushanya, kwihangira imirimo, ndetse n'ibindi bibafasha kugera ku nzozi zabo, ndetse no kwiteza imbere.

Mu bigo by'amashuri byigisha imyuga, abayobozi bagomba kwita ku banyeshuri babo, bakaberekera igihe bari kwimenyereza imyuga yabo.

Kwigisha abana ibyuma by'ikoranabuhanga, ni ingenzi cyane kuko bituma abana bakura bazi gukora ibintu bitandukanye, kandi bibateza imbere vuba.

Ni iby'agaciro ko abana biga mu mashuri yisumbuye，baba bazi gukoresha mudasobwa ndetse nibindi bikoresho by'ikoranabuhanga，kuko bituma baguka mu mutwe.

Ishuri ry'imyuga ni ryiza cyane kuko rifasha abana bataye ishuri kwihangira imirimo ndetse no kumenya imirimo myinshi igiye itandukanye nk'ubudozi, kwiga gukora imyenda igiye itandukanye cyane

Ni byiza ko mu bigo by'amashuri hagomba kwigishwamo ibikoresho by'imyuga, ndetse n'ikoranabuhanga kugira ngo abanyeshuri bazabashe kwiteza imbere, ndetse baguke no mu mutwe.

Ni byiza ko abanyeshuri biga neza ibijyanye n'ikoranabuhanga, ndetse bakiga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, kuko birabafasha cyane mu kumenya uburyo basuzumamo amatungo ndetse bakanayavura.

Ni byiza ko abanyeshuri bigira ku bikoresho by'koranabuhanga, kuko bituma bajijuka birenze. Bituma bamenya ubwenge bwinshi ndetse bakaba bakwigisha na barumuna babo.

Ni byiza gutoza abanyeshuri bakiri ku ishuri kumenya gushushanya ibintu bitandukanye. Kuko bibafasha kwagura ubwenge ndetse no kwihangira imirimo.

Kwiga ikoranabuhanga mu mashuri yisumbuye ni ingirakamaro cyane, kuko bituma umunyeshuri arangiza kwiga muri we afite intumbero yo kuba yakwihangira imirimo, kuko aba yarabonye uburyo wakoreshamo ikoranabuhanga.

Ibigo by'amashuri ni byiza ko bishyiraho ibyuma by'ikoranabuhanga kugira ngo abana biga imyuga bige mu buryo bugezweho, kandi bituma abana baguka mu mutwe bakarushaho kumenya byinshi.